Icyapa cyamamaza ubwishingizi kiri mu mabara y'ubururu cyanditsemo amagambo y'umweru, mu nguni harimo ikirango cy'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Umukobwa wambaye ingofero y'umuhondo ndetse n'amadarubindi urimo uraseka imbere ye handitse amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi akandikwa akoreshejwe umweru .

Abantu bahagaze imbere y'inyubako, bari kureba imodoka ifite amabara menshi irigutambuka mu muhanda wa kaburimbo, hateye ibiti muri ibyo biti harimo igiti kirekire cy'umukindo.

Imbuga y'igitaka iriho ingurube ebyiri zikiri ntoya haruguru yazo hagaragara inkoko ebyiri, haruguru hakaragara inka ebyiri igaragara neza murizo n'inyana.

Inzu ndende y'igorofa yubakishije ibirahure, hejuru imanitseho icyapa cyanditseho amagambo y'umweru. Hariho n'ishusho y'umwana w'umukobwa uraramye uri guseka wishimye, ibiganza bye bifunze igipfunsi.

Umugabo n'umugore bicaye mu cyumba kigaragara nk'uruganiriro mu ntebe y'umweru bari kurebana basetse, umugore yambaye amadarubindi, imbere yabo kumeza hateretse impapuro n'amadarubindi, umugabo afite urupapuro mu ntoki ibindi biganza byabo babimanitse benda kubihuza.

Umugore wimisatsi migufi wambaye umupira w'ubururu, ufite na terefone mu ntoki. Imbere ye handitse amagambo y'umukara.

Ubusitani bumanitsemo icyapa kiriho amashusho y'umusaza n'umukecuru babazungu kiri iruhande ry'umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko magufi, uri mu ibara ry'umuhondo, ufite agakayi gato mu ntoki, uri guseka, inyuma ye hari amadegete ndetse n'ibitoki by'imineke.

Umugabo ugaragara nkuri kwa muganga uryamye ku gitanda ufite igipfuko cy'umweru kizengurutse umutwe, imbere ye hicaye umugore n'umwana bari kumureba baseka. Umugore amufashe ku kananwa yambaye impeta ku rutoki.

Icyapa kiriho umugabo w'umuzungu wishimye uri guseka cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, inyuma y'aho hagaragara ikirere cy'ubururu n'umweru.

Icyumba kirimo abantu batatu hateyemo intebe zo mu ibara ritukura, umwe aricaye imbere ye hari ameza asasheho igitambaro kiri mu ibara rya umweru ndetse na ubururu , abandi babiri barahagaze.

Ukuboko kwambaye ishati y'umweru gufite umukasi kuri gukata igitambaro cy'umukara.

Imbuga y'umutuku ihagazweho n'abantu bahagaze ku murongo utambitse, inyuma yabo hari intebe, hateye n'icyapa cy'ubururu, hejuru yabo hari amatara menshi ari kwaka, bose ibiganza byabo bifashe ku cyapa cy'ubururu, gitambitse, cyanditseho amagambo y'umweru.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi kiriho abagore babiri, umwe yambaye imyenda y'umukara undi yambaye imyenda y'ubururu, cyanditseho amagambo ari mabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umukara, kikaba kiriho n'imodoka iri mu ibara ritukura, ikaba iriho n'ikirango cyerekana urubuga nkoranyambaga rwa fesibuke.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditsemo amagambo y'ubururu n'umukara, gifite umutaka uri mu ibara ry'umutuku n'umweru, n'ikiganza kiwufashe kimanitse hejuru, ahantu hari ibiti birebire cyane.

Ifoto igaragaza ahantu hamanitse imyambaro, harimo imipira n'amakote, iyo myenda ikaba itondetse ku murongo aho imanitse.

Umugore w'umuzungu wambaye ishati y'icyatsi cyibisi ufite mudasobwa y'umukara imbere ye; iruhande rwe hahagaze umugabo igice cy'umutwe ntikigaragara neza, yambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru afite ikaramu mu ntoki.

Imodoka y'umukara ihagaze mu muhanda wa kaburimbo inyuma yayo hari inzu, hepfo yayo hari ibiti hejuru handitse amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi yandikishije umweru.

Ahantu bacururiza imodoka. Hari umugabo bari kwereka imodoka ndende y'umweru ngo abe yayigura.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka nini y'ubwikorezi, bafite urufunguzo runini cyane buri wese afashe kumpande mu mpera zurwo rufunguzo, urwo rufunguzo rwanditseho amagambo ari mw'ibara ritukura.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'imodoka y'umukara, iyo modoka ikaba iri imbere y'inyubako. Abo bagabo bakaba bafashe ku rufunguzo runini cyane rwa purasitike rwanditseho Akagera, urwo rufunguzo rufungura imodoka.

Abagabo batatu harimo abagabo birabura babiri nundi muzungu umwe bahagaze imbere y'imodoka nini y'ubwikorezi iri mu ibara ry'umweru abagabo babiri muri bo bafite udukapu dutukura bafashe n'urufunguzo runini cyane rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku numukara.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka y'ubwikorezi, umwe yambaye umupira ufite ibara ritukura, undi yambaye ishati irimo amabara y'ubururu, buri wese afashe kumpera y'urufunguzo ruri hagati yabo rwanditsemo amagambo y'umutuku ndetse n'inyuguti nini.

abagabo batatu babiri muri bo baregeranye bahagaze mu mbuga isashemo amabuye babiri bafashe ku mpera z'urufunguzo runini banditseho amagambo y'umukara ndetse n'umutuku inyuma yabo hari imodoka ntoya itwara abantu ku giti cyabo.

Imodoka ihagaze ahantu hamwe inyuma yayo hari inzu zifite iminara, inyuma yazo ku mpande y'izo nzu hateye igiti kinini cyane gifite amababi menshi.

Imodoka y'umukara ntoya itwara abantu kugiti cyabo ihagaze hagati yizindi zimeze nkayo zifite amabara atandukanye, hejuru yayo handitseho amagambo ari mwibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Abantu bicaye abandi bahagaze mu cyumba giteyemo intebe ziganjemo izifite ibara ritukura hahagazemo imodoka itwara abantu ku giti cyabo ku nkingi iri muri icyo cyumba hamanitsemo insakazamashusho.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka bafite urufunguzo runini, buri wese afashe ku mpera y'urufunguzo, umwe muri abo bagabo afite agakapu gatukura, hepfo haparitse izindi modoka ebyiri, hakurya hagaragara umusozi n'ikirere ndetse n'umunara.

Ibiganza by'umuntu wambaye ishati y'amaboko maremere wambaye n'isaha ku kuboko ufashe amafaranga menshi yanditseho igihumbi hariho ishusho y'umugabo.

Ifoto igaragaza umugore uhagaze ufite amafaranga mu ntoki, uteze igitambaro mu mutwe, n'undi wicaye hagati yabo bagore batandukanijwe n'ikirahure, mbere y'umugore wicaye hari imashini ifotora impapuro.

Abagabo babiri bateruranye igisanduku mu ntoki bambaye impuzankano z'umukara zisa, bahagaze inyuma y'imodoka y'ubururu bwijimye yanditsemo amagambo y'umweru.

Inote imwe yanditseho ibihumbi bibiri ishushanyijeho umunara muremure inyuma hagaragara imisozi ndetse n'imigezi ku ruhande hashushanyije uduseke dutoya.

umugabo wambaye ishati yahiniye mu nkokora wambaye ingofero n'agapfukamunywa imbere ye hahagaze undi mugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi batandukanyijwe n'ikirahure kibonerana.

Ibiceri bibiri bitoya byegeranye ik'iburyo cyanditseho icumi gishushanyijeho n'ikirangantego naho igiceri kiri mu ruhande rw'ibumoso gishushanyijeho agashami k'ikawa gafite amababi ndetse n'imbuto.

Umugabo wambaye ikote n'ipantaro nishati y'umweru ufite ikaramu mu mufuka wambaye n'amadarubindi inyuma ye hahagaze umugore ufite agakayi mu ntoki wambaye imyenda yigitenge uteze n'igitambaro cy'umukara mumutwe ,bari kurebana nundi mugore wicaye wambaye amadarubindi batandukanijwe n'ikirahure kibonerana .

kiganza cyambaye impeta ku rutoki rwa Musumbazose, gifashe ku mururundo mwinshi w'amafaranga, urambitse ku gice cya mudasobwa. Bakoresha bandika iruhande rwayo, hari andi mafaranga aharambitse kuri icyo gice cya mudasobwa.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara ufite akabido uri gusuka amata mubikombe biteretse ku masahani inyuma ye hari utubati twimbaho turimo ibindi bikombe .

Imeza y'umweru ikikijwe n'intebe ebyiri, inyuma yayo hakaba hari icyapa kiriho utubido tw'umweru, tw'amata, n'urupapuro rwometse kuri icyo cyapa rwandikishije ikaramu.

Icyumba kigaragara nk'icyo bacururizamo giteyemo intebe y'ubururu hahagazemo umugabo wambaye ishati iciye umurongo utagaragara igice cy'umutwe n'umwana w'umukobwa wicaye, inyuma ye hateretse ibyo kunywa biri mu kabati mu matsinda.

Ameza ariho igitambaro cy'amabara atandukanye hariho ibikombe birimo amata n'akabido k'umweru gateretse ku meza.

Ameza arambuyeho igitambaro kiri mu bwoko bw'igitenge, hateretseho isahani ishushanyijeho indabo z'umutuku n'irindazi rimwe n'urupapuro rwo gufatisha.

Umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo, wambaye ipantaro y'umukara, uhagaze mu cyumba gifite imbuga y'umweru irimo intebe zifite amabara atandukanye, harimo iy'umweru ndetse n'ubururu.

Abantu babiri bicaye ku ntebe z'umweru hagati yabo hari imeza y'uruziga iteretseho utujerekani tw'umweru nigicuba cy'amata buri wese afite igikombe ku munwa imbere yabo hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru utagaragara igice cyumutwe.

Inzu bacururizamo; irimo ibicuruzwa binyuranye ndetse n'ibinyobwa ikaba irimo icyuma kibika amata kiri mu mabara y'umweru n'ubururu; hakaba harimo akana gahagaze n'umukobwa uhagaze inyuma y'icyuma gikonjesha.

Ikiganza gifashe igikombe kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hashushanyijeho imbuto ziri mu bwoko bw'inkeri.

Umugabo utagaragara igice cy'umutwe wicaye ku ntebe ibajije mu rubaho ufite igicuba cy'amata mu ntoki nundi utagaragara neza igice cy'umutwe wunamye iruhande rw'ibicuba byinshi batwaramo amata .

Ikibanza gifashe kumukondo wigikombe cy'icyokunkwa gicagase, iruhande rwacyo hari isahane iriho irindazi, ifurusheti ndetse n'ikiyiko gitoya.

Inzu y'ubucuruzi ifite icyapa hejuru kiri mu mabara atandukanye, hari akabati karimo amata afunze mu bikarito mu macupa ndetse no mu mashashi.

Abagabo bagaragara nk'abishimye, bari guseka, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bazamuye ibiganza bifite ibikombe bisendereye amata, bari kubikozanyaho.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'umweru hagati yabo hateretse ameza ateretseho ibikombe binini by'amata, babiri muri bo bafite ibikombe ku munwa.

Urubuga ruri mu mabara y'umweru hejuru hariho ibara ry'ubururu handitsemo amagambo matoya yanditse mu ibara ry'umukara harimo uruziga rushushanyije ruri mu ibara ry'icyatsi.

Ikiganza cy'umuntu gifite terefone igendanwa mu ntoki, terefone ifite amabara y'umweru ndeste n'umuhondo mu imbere mu kirahure, inyuma hakaba hagaragara ibara ry'ubururu n'amagambo yanditse mu mabara y'ubururu.

Aragaragaza urubuga bishyuriraho bakoresheje ikoranabuhanga. Iriho umugore ufite imisatsi migufi yumukara uri kureba muri terefone ye wambaye ishati iri mu ibara ry'umweru wambaye n'amadarubindi.

Urupapuro rwanditseho amagambo y'umukara, rushushanyijeho n'imbonerahamwe ebyiri, zirimo imibare ndetse n'amagambo, hajuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru ruriho imbonerahamwe zanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, hakaba hariho n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, rushushanyijeho imbonerahamwe irimo amagambo ndetse n'imibare, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara, munsi hashushanyije imbonerahamwe irimo amagambo ndetse n'imibare. Hejuru mu nguni hari igishushanyo cy'ikiranganteko cy'u Rwanda. Mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Imusoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditsemo amagambo y'umukara munsi hashushanyije imbonerahamwe ebyiri, hejuru mu nguni hari igishushanyo cyerekana ikirangantego cy'u Rwanda, mu yindi nguni hari igishushanyo cyerekana ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo, mu ibara ry'umukara n'imbonerahamwe, mu nguni hejuru z' urwo rupapuro n'ikirangantego cy'u Rwanda n'ikirangantego cy'ikigo cy' igihugu gishinzwe imisoro.

Urupapuro ruriho imbonerahamwe iriho imibare ndetse n'amagambo rukaba rufite hejuru ikirangantego cy'u rwanda, n'ikirangantego k'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo y'umukara rukaba rushushanyijeho n'imbonerahamwe ziriho imibare, hakaba hariho n'ikirango cy'igihugu cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro mu Rwanda.

Ifoto igaragaza urubuga muri mudasobwa iri mu magambo y'umukara matoya n'andi y'umutuku, mu nguni y'ifoto hari ikirango cy'umutuku cyanditsemo amagambo y'umweru.

Ibiganza by'umuntu uri kubara amafaranga menshi azirikishijwe agakoresha bazikisha amafaranga.

Ikiganza kirambitse hejuru y'amafaranga menshi atondetse gifite amafaranga mu ntoki ayo mafaranga ashushanyijeho umugabo wambaye amadarubindi kandi ayo mafaranga yanditseho magana atanu.

Ikiganza gifashe amafaranga menshi cyane mu ntoki yanditseho ijana, ashushanyijeho umugabo usa nkufite uruhara, uri mu ibara risa nkivu ari kuyashyira mu mashini ibara amafaranga.

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga y'amadorari bose intoki zabo zikaba zifashe kuri ayo mafaranga y'amadorari, undi muntu akaba afite ubundi bwoko bw'amafaranga menshi mu ntoki ari afite ibara rigiye gusa umuhondo.

Ikiganza cy'muntu w'umuzungu wambaye impeta ku rutoki, ufite ubwoya bwinshi ku maboko, ufite inoti mu ntoki izindi ziteretse ku meza hamwe n'ibiceri.

Inoti ebyiri zanditseho igihumbi iyo hejuru ishushanyijeho umuntu iyo hasi ikaba ishushanyijeho igorofa.

Umuntu ufite inoti ebyiri mu biganza yazifatanyije zipfutse igice kimwe cy'isura ye, inote yo hejuru yanditseho magana atanu, naho iyo hasi yanditseho igihumbi hariho ishusho y'umusaza wambaye amadarubindi.

Ifoto igaragaza ukuboko kumuntu kwambaye ikote, gufite inoti ebyiri mu ntoki ndetse munsi hakaba hari n' ameza ariho andi mafaranga menshi.

Inote nyinshi zirambitse hamwe harimo iyanditseho ijana ishushanyijemo inzovu, harimo iyanditsemo maganabiri iriho abantu bahinga, hakaba hariho n'iyanditsemo maganatanu hariho umuntu usa nk'uterura ikintu n'iyanditseho igihumbi iriho izindi nyamaswa.

Umugabo ufite inoti nyinshi mu ntoki, inoti afite hariho izishushanyije abantu ari kureba ku ruhande.

Inote zirambuye harimo iza magana abiri, iz'igihumbi ndetse n'iza magana atanu. Hariho iziriho inzovu, abantu bari guhinga n'ibindi bishushanyo by'inyamaswa.

Ifoto igaragaza umuntu wicaye wambaye ishati iciyemo imirongo yo mu mabara y'umukara ndetse n'umweru n'ubururu, ipantaro y'umukara ufite amafaranga y'amadorari mu ntoki wambaye isaha ku kuboko, n'andi mafaranga amuteretse iruhande aho yicaye.

Inote zisandaguje ziri mu mabara agiye atandukanye, hari inote yanditseho makumyabiri, iyanditseho mirongo itanu, n'iyanditseho ijana, ziriho ishusho y'umugabo.

Umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo, ufite amafaranga menshi mu biganza bye byombi, yayazamuye, ayo mu kiganza cy'iburyo apfutse isura ye, yambaye n'impeta ku rutoki rw'agahera kuri icyo kiganza, naho ku kiganza cy'ibumoso yambaye impeta ku rutoki rubanziriza agahera.

Inote nyinshi zisandaguje, hejuru yazo haturetseho ibiceri bisandaguje, imwe muri izo noteri yanditseho mirongo itanu, indi yanditseho magana atanu, hari n'ayanditseho ijana, ishushanyijeho umugabo ufite uruhara n'imisatsi miremire mo hagati.

Ifoto igaragaza ibiganza by'abantu babiri bari guhererekanya umubare w'amafaranga menshi, umwe muri ayo mafaranga akaba ari mu bwoko bw'amadolari.

Ibiganza bifite inote mu ntoki, zigiye zifite amabara atandukanye. Harimo inote yanditseho mirongo itanu, niyanditseho ijana munsi yayo; hariho ishusho y' umugabo.

Icyapa cyanditseho amagambo yo mu ibara ritukura munsi hashushanyijeho imbonerahamwe yanditsemo amagambo irimo amadarapo y'ibihugu harimo Kenya Tanzania ndetse n'Amerika handitsemo n'imibare.

Inzu iriho icyapa cyerekana inzu y'ivunjisha na nimero, imbere y'iyo nzu hari gutambuka abantu babiri, hakurya y'iyo nzu hahagaze imodoka nyinshi.

Inzu iriho icyapa kiriho umukobwa w'umuhinde wambaye imyenda iri mabara y'umutuku ufite amafaranga mu ntoki, imbere y'iyo nzu haparitse moto.

Imbonerahamwe yanditsemo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ritsindagiye, aho aherera handitse ijambo rimwe ryanditse mu ibara ry'umukara ridatsindagiye, handitsemo n'imibare.

Imbuga ishashemo amatafari hateyemo ameza y'uruziga akikijwe n'intebe ,agaragara mu ibara rijya gusa nk'umweru, inyuma yayo hagaragara inyubako igice cyo hasi.

Icyumba kigaragara nk'uburiro, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo ameza y'igiti, y'uruziga, azengurutswe n'intebe z'ibiti ndetse n'akabati k'ibiti, ku meza hateretse ibirahuri banyweramo ndetse n'amasahani, inyuma hateretse ibiti bitoya.

Icyumba kigaragara nk'icyo kuraramo harimo igitanda gikozwe mu giti gisashe, iruhande rwacyo hakaba hateretse akabati gakozwe mu giti gateretseho isaha.

Igisambu kirimo ibyatsi ndetse n'amabuye, giteyemo intebe zizengurutse ameza bibajijwe mu biti, bifite ibara rijya gusa nk'umutuku. Hakurya hagaragara inzu igice cyo hasi, iri mw'ibara ry'umweru.

Uruganiriro rufite igikuta cy'umweru ndetse n'imitako iri mu ibara ry'umukara yometse ku gikuta hakaba harimo n'intebe yo mu ruganiriro.

Icyumba kigaragara nk'icy'uruganiriro, gifite imbuga y'umweru, hateretsemo intebe z'amabara atandukanye n'ubwoko butandukanye hagati hateretseho ameza y'urubahu ateretseho igitabo kirambuye.

Uruganiriro rurimo intebe z'amoko atandukanye, hakaba harimo utubati dukozwe mu biti n'amatara acanye hejuru, ifite ibikuta by'umweru.

Icyumba giteretsemo ameza manini akikijwe n'intebe byose bibajijwe mu giti ,ku meza hateretse ibikombe bibiri kimwe hepfo ikindi haruguru biteyemo indabo.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bibajijwe mumbaho birundiye hamwe, harimo ameza amanini n'amatoya intebe zo muburiro utibagiwe n'utubati.

Ahantu hari intebe nyinshi zo mu ruganiriro na matela baryamaho n'utubati n'izindi ntebe za purastike, biri imbere y'inzu ikinguye.

Icyumba kigaragara nk'icy'uruganiriro, hateyemo intebe z'amabara atandukanye, hagati zayo hateyemo ameza, hakurya ku gikuta hamanitse insakazamashusho.

Icyumba gifite imbuga y'umweru, n'igikuta cy'umweru, kirimo intebe zo mu ruganiriro, n'izindi ntebe z'imbaho zikikije ameza ziri mu ibara ry'umukara.

Icyumba giteyemo intebe ndetse n'ameza bikozwe mu mbaho bifite amaguru y'umukara hirya yaho hagaragara igikuta cy'umweru gitatseho umutako bita umugongo.

Inzu y'amagorofa yubakishije amatafari n'ibirahure, ikaba ifite ahantu bogera hasi harimo amazi, amatafari yubakishije iyo nzu akaba ari mu ibara ritukura, hepfo ikaba ifite ibiti na jaride.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe n'ameza n'insakazamashusho imanitse ku gikuta, hakaba hari n'ibitambaro bimanitse ku madirishya birinda urumuri, ku meza hakaba hari ibirahure banyweramo n'isahani iriho imbuto.

Umuntu uri mu gikoni wambaye agapfukamunwa n'impuzangano z'umweru, n'ingofero y'umweru mu mutwe uri gukata karoti, imbere ye hari inyanya, pavuro, amavuta ndetse n'inanasi.

Ubusitani bwiza buteyemo indabo zigiye zitandukanye z'amabara menshi, hakaba hateyemo intebe z'umukara zikikije ameza y'umukara.

Icyumba kigaragara nk'icyo bararamo, gifite imbuga y'umuhondo, harimo igitanda. Hateyemo n'intebe zo mu ibara ry'icyatsi, hari n'ibitambaro birinda urumuri ku madirishya, n'akameza gato gateye imbere y'igitanda, gateretseho itara.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe ziri mu mabara atandukanye, hari ameza ateretseho urupapuro mu nguni hari ikibindi giteyeho ururabo hejuru hari itara.

Inyubako y'igorofa y'umweru ifite imigongo hejuru. Imbere y'iyo nyubako hari imitaka itwikiriye intebe zihateretse, n'ahantu bogera harimo amazi menshi.

Inzu nini y'igorofa imanitseho icyapa cy'umweru ndetse n'ubururu cyanditseho amagambo manini yanditswe mabara y'umweru ndetse nayo ubururu.

Icyumba gihagazemo abagabo babiri bahagaze barebana, imbere yabo hari ameza ariho impapuro ndetse n'icupa ry'amazi, bateye intebe yo mu ibara ry'umukara, inyuma yabo ku gikuta handitseho amagambo y'icyatsi n'inyuguti nini ya ma yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi.

inzu y'igorofa iriho icyapa cyamamaza cy'ubwishingizi cyitwa bilitamu, iri gusohokamo abantu babiri, hirya yakaba hahagaze abandi bagabo batatu baganira bahagaze imbere y'igiti, hepfo yaho hakaba hari igare, haruguru yabo hakaba hari imeza isa umweru, hakurya mu muhanda w'amabuye akaba hari umuntu wambaye umupira uri mw'ibara risa umutuku.

Abantu bicaye mu nzu bakoreramo, buri wese yicaye ku ntebe afite mudasobwa ye imbere ari kwandika bambaye impuzangano y'umweru n'umukara.

Abagabo babiri bicaye mucyumba, umwe yambaye ishati ifite amabara menshi ,afite ikirahure mu ntoki undi yambaye ishati y'umweru afite mudasobwa kumeza iri hagati yabo hari n'icupa ndetse n'impapuro.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, giteyemo ameza manini ari mu ibara rijya gusa nk'ivu, akikijwe n'intebe ziri mu'i ibara ry'umukara, hari igikuta kiririmo ibara rijya gusa nk'ivu, kimanitseho icyapa kiri mu ibara ry'umweru, cyanditsemo amagambo y'ubururu.

Abagabo batatu bari guca imbere y'inyubako ifunguye ifite icyapa hejuru kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Inzu y'igorofa yubakishije amatafari ahiye n'ibirahuri, hejuru yaho hari icyapa cyamamaza ubwishingizi iri imbere y'umuhanda uri gutambukamo moto n'abantu hateye ibiti ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Icyumba kirimo intebe ebyiri z'umukara zegamye ku gikuta gitatsemo imigongo, kikaba gifite imbuga y'umweru hakaba hari n'ikirahuri, iyo urebeyemo ubona mudasobwa y'umukara.

Inzu iri mu ibara ry'umweru n'amagorofa ane, imbere y'iyo nzu harimo ubusitani buteyemo indabo zitandukanye, inyuma y'iyo nzu hakaba hateye ibiti birebire.

Abagabo batatu bicaye mu cyumba ku ntebe ziri mu ibara risa nk'umukara, imbere yabo hateretse ameza agaragara mu ibara risa n'umweru hateretse amazi kumeza imbere ya buri umwe bose bambaye amakote uwo ku ruhande yambaye agapfukamunwa k'umukara.

Umugore uhagaze usobekeranyije amaboko, wambaye ishati y'umuhondo irimo utudomo tw'umweru, uri guseka ufite umusatsi mwinshi inyuma ye hateye intebe.

Muri banki, harimo umugore uri kubara amafaranga. Imbere y'uyu mugore hari umugabo wambaye ishati y'umukara, akaba ari gusinya urupapuro rw'uko abikije amafaranga.

Abagabo batatu bambaye amakoti ndetse n'amashati y'umukara bose bakaba bambaye amadarubindi, hepfo no hagati no ku mpande zabo handitse amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Umugabo uri guseka bigaragara ko yishimye, wambaye ishati y'amaboko maremare igaragara mu ibara ry'ubururu bwijimye; ufite isahani itambitse iriho igikombe gifiteho ibara ry'umutuku. Inyuma ye hicaye umuntu ugaragara nk'umuzungu.

Icyumba kigaragara nk'icyo bacururizamo imyambaro kimanitsemo imyambaro y'amabara atandukanye akozwe mu bwoko bw'ibitenge imbere yaho hari umugore wambaye ipantaro, ndetse n'ikote y'umweru wifashe mu mufuka.

Abantu benshi bahagaze ahantu hagaragara nk'abera isoko hari ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibitoki, amateke, karoti n'ibitunguru.

Ubwoko bwinshi bw'imboga burunze mu matsinda, harimo imboga z'amashu, amadegede, ibitunguru, inyanya, imiteja, pavuro ziri mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibindi.

Inzu igaragara nk'iyo bacururizamo imyambaro imanitseho imyambaro ku bikuta bibiri biteganye, hagati hicaye umusore wambaye ikabutura n'inkweto z'umukara ufite telefone ngendanwa mu ntoki.

Ifoto igaragaza inzu y'amagorofa yubakishije ibirahuri, hakaba hari n'imodoka zihagaze imbere y'iyo nzu no hakurya yayo ndetse n'abantu bari gutambuka mu muhanda wa kaburimbo unyura imbere y'iyo nzu.

Umugabo wambaye ishati y'umukara n'isaha ku kuboko, uri guhererekanya isashi yo mu ibara ry'umukara n'undi mugore wambaye umupira w'umutuku, bahagaze ahantu hari imyumbati ndetse n'imbuto z'amacunga ziri mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, hepfo yabo hahagaze abandi bantu babiri.

Icyumba kigaragara nk'isoko cyicayemo abantu batandukanye, kirimo ubwoko butandukanye bw'imbuto zirunze mu birundo, harimo imyembe, amacunga, imineke ndetse n'indimu.

Ahantu harunze amatsinda y'imboga y'ubwoko butandukanye, harimo pavuro zifite ibara ry'umuhondo, n'imboga rwatsi, ndetse n'inyanya utibagiwe n'imyungu.

Umuhungu wicaye mu isoko imbere y'inyanya n'ibitunguru by'umutuku n'ibyumweru akaba acuruza n'amavuta ,inyuma ye hakaba hari icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho cya MTN.

Abantu batatu bahagararanye hagati yabo harimo indobo y'ibiraha umwe muribo yambaye umupira w'umutuku afite umufuniko w'indobo mu kwaha iruhande hateretse agataboreti karekare gateretseho ibasi y'ubururu.

Abantu bari mu isoko bacuruza ibiribwa bitandukanye, harimo imyungu, urusenda, amashu, inyanya, ndetse n'ibitunguru, hari n'abagore bicaye bambaye umupira w'umutuku.

Umugabo wicaye kwipikipiki ufite Telefone ntoya ngendanwa y'umukara kugutwi, iruhande rwe hahagaze umukobwa wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi, ufite telefone nini ngendanwa muntoki.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi, n'ingofro y'urugara mu mutwe, uri kureba umuhungu umuhagaze imbere wambaye umupira w'umukara n'ingofero mu mutwe, n'isaha y'umukara ku kuboko uri kureba muri terefone ye ngendanwa.

Umukobwa uhagaze ahantu hari ibintu byinshi wambaye umupira ndetse n'ijiri iri mumabara yumuhondo uwo mwambaro ukaba wanditseho amagambo y’ubururu yamamaza ikigo cya MTN.

Akazu gatoya k'ubucuruzi kari mu ibara ry'umuhondo bakoresha bacuruza amayinite yo guhamagara ndetse bakira bakanohereza amafaranga kuri telefone, gahagazemo abantu babiri bari kwandika imbere yabo hakaba hari igiti kinini, gihagaze imbere, kiriho abantu babiri.

Akazu gatoya kari mu ibara ry'umuhondo gahagaze ahantu hari imbuga y'igitaka, inyuma yayo hari igisambu, imbere mu idirishya hahagaze umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara.

Ishusho y'inzu icuruza amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga, akaba hejuru kuri iyo nzu hamanitseho ibyapa biri mu mabara y'umutuku ndetse hakaba harihoho n'ishusho y'umukobwa uri kureba muri telefone yiwe.

Akazu gatoya kari mu ibara ry'umuhondo gacuruza ibi by'imirongo y'itumanaho, muri ako kazu hahagaze abantu bambaye imipira iri mu mabara y'umweru n'umuhondo, ndetse n'undi muntu umwe wambaye bitandukanye.

Akazu gatoya kari mu ibara ry'umuhondo kari mu mbuga y'igitaka imbere y'ako hari agahanda gasashemo amabuye, imbere y'ako hakaba hari umuhanda wa kaburimbo.

Abagabo babiri bafatanye mu biganza, bambaye imipira yamaboko magufiya, iri mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hahagaze abantu bambaye imyenda yo mu mabara atandukanye, hagaragara nigice gitoya cy'umutaka w'umuhondo.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo hariho ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda cya Emutiyene, uwo umugabo akaba ahagaze imbere y'umutaka bacururizamo amafaranga, kubitsa no kubikuza amafaranga, uwo umugabo ari ku igare.

Icyapa cyamamaza cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho MTN, cyanditsweho amagambo y'ubururu bwijimye n'andi y'umukara.

Umugore munini wambaye ikanzu n'ikote ufite imisatsi iboshye ndetse na terefone igendanwa mu ntoki, uhagararanye n'undi mugore wambaye ingofero y'urugara iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, uri guseka yambaye umupira w'umuhondo.

Umuntu wicaye munsi y’umutaka w’umuhondo. Imbere ye kumeza hari imipira nayo y’ umuhondo na makarito. Nicyapa cy’umuhondo cyamamariza ikigo cy’itumanaho cya Emutiyene.

Umuryango w'inzu ufite igishushanyo hejuru, ufite urugi rw'ibirahure, mu imbere harimo ishusho y'abantu.

Urubuga rwamamaza ikigo k'itumanaho cya eyateri ruri mu mabara y'umweru n'umutuku, ku mpande mu nguni hari umuntu watangaye.

Ifoto y'urubuga rwo guhaniraho ukoresheje ikoranabuhanga. Kuri iyo foto hagaragaramo amadarapo y'ibihugu harimo u ubushinwa, ubuyapani, ndetse na pakistan.

Ifoto y'urubuga bahahiraho bakoresheje ikoranabuhanga ryitwa ruti Rwanda, iyo foto ikaba iriho abakobwa babiri bafite igikarito cy'impano mu ntoki.

Terefone ngendanwa y'umweru iteretse iruhande rw'amakaramu abiri na mudasobwa iruhande hateretse igikombe kirimo ikinyobwa kiri mu ibara ry'umukara.

Umusore w'umuzungu, wambaye ikoti ry'ubururu bwijimye, rifite agatambaro gatukura karimo utudomo tw'umweru mu mufuka, wambaye n'isaha ku kuboko, inyuma ye hagaragara ibishushanyo by'intebe z'icyatsi ndetse n'ameza.

Wambaye ingofero yubururu bambara ku ipikipiki, wambaye umupira wumukara, ufite igikarito mu ntoki uri ugishyira mu kindi gikarito kiri imbere ye gifunguye kiririmo ibara ry'ubururu.

Ipikipiki yicayeho umuyobozi wayo, inyuma afite igikarito kiri mu mabara abiri arimo umuhondo n'ibara rijya gusa nk'umutuku, yambaye agapira k'umuhondo, ipikipiki ye ihagaze iruhande rw'igihuru.

Umuntu ugaragara ari ku ipikipiki, ipikipiki ye iriho igikarito kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, cyamamaza urubuga bakoresha bahahiraho bakoresheje ikoranabuhanga ryitwa vuba.

Icyumba kirimo ubusa gifite ibikuta by'umweru ndetse bifite n'amatara acanye hejuru.

Icyumba kigaragara nk'ikikoni gifite utubati two hasi, n'utwo hejuru tumanitse ku bikuta by'umweru, ndetse n'ishyiga rinini rya kijyambere rifite urugi rurangaye.

Icyumba kigaragara nk'icy'uruganiriro gifite ibikuta by'umweru, hejuru hacanye itara, kirimo intebe z'ubwoko butandukanye n'amabara atandukanye, n'imeza iri mu ishusho ijya kumera nk'iy'igi ibajwe mu giti.

Igiti giteye iruhande rw'ubusitani, gifite igicucucu kigaragara mu busitani buri imbere y'inzu y'igorofa, ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahuri.

Inzu igaragaza icyumba cy'uruganiriro, kirimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza, hejuru muri iyo nzu hakaba harimo itara ry'umuriro w'amashanyarazi, ricanye.

Inzu y'igorofa ifite amabara menshi, imbere y'iyo gorofa hari ubusitani buteyemo ibiti. Hakurya yayo hari andi mazu y'amagorofa n'ibiti by'imikindo.

Inzu isize ibara risa nk'ivu, isakajwe amabati y'umutuku, yanditseho amagambo manini y'umweru, ifite n'amadirishya ajya gusa ubururu n'ibirahure by'umukara.

Umugabo wunamye hejuru y'inzu isakajwe amabati, hasi hakaba hari gutambuka undi mugabo wambaye umupira utukura.

Ifoto yamamaza inzu igurishwa, inzu y'amagorofa abiri iri mu mabara y'umweru, ifite indabo imbere y'umuryango.

Inzu isakaje amabati y'umutuku, ifite ibikuta biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ifite inzugi n'amadirishya by'umweru, ibirahure byirabura, inyuma hari inzu ntoya, hejuru yayo hariho ikigega kibika amazi y'imvura.

Umukobwa ufite amvilope mu ntoki uhagaze imbere y'ahantu hari inyanya, ibitunguru, karoti n'imyungu, uwo mukobwa wambaye ipantalo y'umukara.

Ifoto igaragaza inzu nini y'igorofa imbere hagaze abantu hari n'ibicuruzwa biri mu makarito ndetse n'imyenda imanitse bagurisha.

Umukobwa n'umuhungu bicaye ku ntebe bambaye imyambaro ifite idarapo ku kuboko hejuru y'inkokora umukobwa yambaye isaha ya zahabu ku kuboko imbere yabo ku meza hateretse mudasobwa.

Umugore w'umwirabura wambaye umwenda w'igitege hajuru, uhagararanye n'undi wambaye umupira w'umukara w'umuzungu. Imbere y'ibitundo by'ibinyomoro, amatunda ndetse n'indimu.

Inyubako igaragara nk'aho icururizwamo imyambaro, harimo imyambaro myinshi, harimo izinze ndetse n'imanitse ku bikuta, hakaba hahagazemo abantu bagiye batandukanye n'amatara ari kwaka.

Inzu igaragaza inzu bahahiramo ikaba irimo abantu bambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo, ikaba irimo intebe n'ameza ndetse n'ahantu hateye ururabo.

Umugore w'umwirabura ufite umusatsi mugufiya wambaye ikanzu y'igitenge uri guseka areba undi w'umuzungu ufite amacunga abiri mu ntoki bahagaze ahantu hari imbuto nyinshi zirimo amacunga ndetse n'ibinyomoro.

Abantu bagaragara nk'abari aho bacururiza ibyokurya, hari ibyo kurya bitandukanye harimo inyanya imboga ndetse n'iminyungu.

Umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umweru, ufite igitambaro mu mutwe, wambaye ipantaro mo imbere, uhagaze ku mbuga isashemo amabuye, imbere ye hari urujya n'uruza rw'abantu binjira mu nyubako.

Abantu bicaye bakikije ameza, ameza bateretseho ateretseho mudasobwa z'ubwoko butandukanye, inyuma yabo hejuru hamanitse ishusho y'umugabo wambaye amadarubindi ndetse n'ikote.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara ufite ikaramu uri kwandika mu gitabo kiri kumeza, arambuyeho igitambaro cyiganjemo ibara risa nk'ubururu ciyemo imirongo hari terefone ngendanwa ku meza ndetse n'impapuro, haruguru ye hari umugore uteze igitambaro mu mutwe witeye igitenge.

Umugabo wambaye ishati y’ umweru, utari guseka ugaragara igice cy’ igihimba imbere ye hari ibiganza bifite telefoni nini n’ intoya, zigendanwa ndetse n' indangururamajwi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufiya; ufite indangurura majwi mu ntoki, imbere ye hateretse icupa ry'amazi, iruhande rwe hari ingofero y'ubururu bwijimye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka, hagati harimo ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'amatara yo k'umuhanda, hakurya hari inzu ndende cyane y'igorofa.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa, bitondetse mu tubati harimo ibifunze mu macupa, mu bikarito ibindi bikaba bifunze mu mashashi, ku mpande hari imashini zikonjesha zirimo ibicuruzwa.

Icyumba kigaragara nk'icyo bahahiramo gifite amatara menshi hejuru gifite n'ibicuruzwa bigiye birunze mu matsinda kimanitsemo ibyapa byiganje mabara y'umuhondo ndetse n'umutuku hagati mu mbuga y'umweru ahagazemo abantu babiri umwe yambaye umupira w'umuhondo undi yambaye umupira utukura.

Inyubako igaragara nk'iyo bacururizamo, irimo abantu bari kugenda ndetse n'abahagaze, hakaba harimo utubati turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Inyubako y'ubucuruzi, irimo utubati tugiye dutondetsemo ibicuruzwa bifunze mu mashashi no mu makarito.